Kera mu Rwanda abarwayi babavuzaga bakoresheje imiti gakondo nk'umurahavumba, umwenya, n'ibindi byinshi cyane ariko ubu banyuza ibyo byatsi mu ruganda bagakora imiti ikungahaye ifite ubudahangarwa, ivura abarwayi bagakira neza cyane kandi abayicuruza babona amafaranga.

Ikidodoki ni ubwoko bw'imboga buryoha cyane, kuberako abantu babiteka ku bishyimbo cyangwa bagakoramo isosi, kandi abantu barabihinga bakabigurisha bakabona amafaranga menshi cyane, bakiteza imbere.

Amababi y'ibidodoki nayo ari mu bwoko bw'imboga buryoha cyane kandi butuma umuntu atarwaragurika ndetse yubaka umubiri w'umuntu agakura neza cyane cyane ku bana.

Umwenya ni umuti gakondo, Abanyarwanda bakoreshaga bari kuvura indwara zo mu nda, ndetse bawukoreshaga bari kuvura umuntu wafunganye amazuru, ari gupfuna cyane. Ubungubu, abantu benshi bawukoresha bari guteka icyayi kugira ngo kiryohe cyane.

Umuharavumba ni umuti wa gakondo, Abanyarwanda bakoresha bari kuvura indwara nka gapfura, ibicurane, inkorora ndetse n'izindi ndwara zitandukanye.

Kera mu Rwanda bavurishaga imiti gakondo harimo nk'umwenya umuharavumba, umubirizi n'izindi nyinshi cyane ariko ubungubu bakunda gukoresha imiti iba yakorewe mu ruganda.